Umurima mugari cyane uri mu gace k'imisozi, harimo abamama batandukanye bitwikiriye ibitenge byiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi. Bari gusoroma icyayi bagishyira mu bitenge biziritse ku bibero, bagenda baca amababi y'icyayi bashyiramo.

Mu murima wo mu cyaro uhingwamo icyayi umugore umwe wambaye agakote kajya gusa umuhondo, ndetse n'igitambaro yiteze mu mutwe, ari kumwe na mugenzi we wambaye agakoti k'umukara, ndetse n'agapira kajya gusa ikigina, bafite igitebo barimo gusoroma amababi y'icyayi.

Mu gishanga kigari cyane gihinzemo igihingwa cy'umuceri ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye gikikijwe n'imisozi iteyeho insina ndetse n'ibindi, harimo umugabo n'abagore bagera kuri bane, umugabo wambaye agashati karimo amabara y'umweru n'umukara ndetse n'umutuku yambaye kandi inkweto za umojya zizwi nka silipa, umugore bari kumwe yambaye agapira k'icyatsi kari mu ibara ry'umweru.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi birimo ibyumye n'ibitumye harimo umugabo wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'ishati irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ari gusunika igare ririho ibyatsi byo guha inka.

Abantu benshi cyane batandukanye biganjemo abajyanama b'ubuhinzi bari mu gikorwa cyo gutera ibiti ndetse n'imyaka y'ubwoko butandukanye, abarimo bambaye ingofero z'umweru, imipira isa icyatsi kibisi ndetse n'amapantaro y'imikara.

Umujyanama w'ubuhinzi wambaye agapira k'icyatsi ndetse kandikishijwemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, yambaye kandi ipantaro y'umukara ari mu murima uhingwamo ibiti bitandukanye, aho ari kugerageza gusasira iki giti.

Umuhinzi mworozi wabigize umwuga wambaye bote z'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse n'ikoti ririnda imbeho, hirya ye hari isuka yifashisha mu gucukura imyobo ari gutera igiti kizwi nka voka, hirya ye hari utuzu dutandukanye twubakishije amatafari ya munyu ahiye.

Umurima munini cyane urimo ibihingwa bitandukanye, umurima ucukuyemo imyobo igiye itandukanye, harimo ibihingwa nk'insina, ibisheke ndetse n'ibindi, umurima utaratunganywa neza ku buryo wahingwamo.

Umurima wo mu cyaro urimo ibyatsi byumye ndetse n'ibibisi ,harimo igihingwa kizwi nk'ummbati mukuru. Harimo kandi ibihingwa nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umurima uri imbere y'umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, uyu murima urimo ibiti bitandukanye, yaba ibiti by'ibiribwa bizwi nk'imyumbati, ndetse n'ibindi biti bitandukanye. Imbere yaho kandi hari ibyatsi bizwi nka pasuparume biri hejuru y'umuhanda, ndetse iruhande rw'inzira y'abanyamaguru.

Uruhurirane rw'imbuto n'ibiribwa bitandukanye, biri mu mabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo. Ni ibiribwa byifashishwa kandi bikaba byarinda indwara. Harimo: urusenda, imiteja, inyanya, karoti, kokombure ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima wegereye ikiyaga urimo ibiti ibihingwa by'ubwoko butandukanye, umurima ubagawe neza kandi urimo ibihingwa bitari byera neza.

Umuhinzi mworozi wabigize umwuga ari hagati mu murima utewemo imbuto zitandukanye, afite ibyifashishwa mu kuhira ,bizwi nka rozwari, arimo aragerageza kuvomerera izi mbuto, mu gihe cy'izuba kugira ngo zituma, ahantu hakikijwe kandi n'ibyatsi byumye ndetse n'ibitumye.

Agace gasa nkaho ari ak'icyaro, hari ikiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho, harimo inka y'ibara ry'igitare ndetse n'igaju ihagazemo iri kurya ibyatsi bitose biririmo ibara ry'icyatsi cyijimye cyane.

Inzu ikorerwamo ubworozi bwagutse bw'inkoko, harimo inkoko zitandukanye inkuru n'intoya zifite amabara y'umweru, umukara n'ibindi, harimo ibikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko yaba ibishyirwaho amazi ndetse n'ibishyirwaho ibyo kurya.

Ubutaka bwijimye bwatunganjwe neza, bwamaze gushyirwamo ifumbire y'imborera kugira ngo habashe guterwamo imbuto zitandukanye, hariho ikiganza cy'inzobe gifite impeke z'ingano mu ntoki, zimwe zamaze kugwa ku butaka, izindi nyinshi ziracyari mu ntoki.

Mu gace ko mu cyaro kavurirwamo inka, harimo umuganga w'amatungo wambaye uturindantoki tw'ubururu bwerurutse, aarimo aratera inka y'umukara umuti, yambaye kandi itaburiya y'umweru n'inkweto z'umukara, ndetse n'ipantaro y'umukara, hari abari kumufasha kugira ngo iyi nka itiruka ikamubuza uburyo bwo kuyitera umuti.